Abantu batandukanye bita ku buzima bwabo, bakaba ari abantu bakunze kugira uruhare mu gutuma bamera neza, ndetse birinda indwara zitandukanye.

Imbaga y'abantu benshi cyane barimo abajyanama b'ubuzima ndetse n'abaforomo bambaye amataburiya y'ubururu, bari mu nama yabahuje yigaga ku kibazo cy'indwara z'ibyorezo.

Abaganga benshi batandukanye bitabiriye amahugurwa yatangiwe ku kigo nderabuzima, yitaga ku buzima bw'indwara zitandukanye ndetse bafata ifoto y'urwibutso nyuma y'inama.

Ihuriro ry'abantu benshi barimo inzego z'umutekano, abanyabuzima ndetse n'abandi baganga batandukanye, bakaba bari kwita ku bana babaha indyo yuzuye ndetse bari kubaha n'agakoma.

Umuryango wita ku bana Yunisefu usaba ababyeyi bose kwigisha abana gukaraba n'amazi meza ndetse n'isabune.

Imbangukiragutabara ikunze kuboneka ahantu hahuriye imbaga nyamwinshi kugira ngo ibe yafasha umuntu wagira ikibazo k'ihungabana agakenera kugera ku bitaro byihuse.

Umwana ari kuvoma amazi mu kavido k'umuhondo ndetse inyuma kuri robine hari umuntu uri kumupombera amazi kuko ari kuvoma kuri rubine y'ipombo.

Ku ivomero rusange hari abantu benshi baje gushaka amazi ndetse iri vomero riragoye kurivomaho kuko niza robine zisaba ko umwe ajya inyuma agapompa maze amazi akabona kuza.

Uyu ni umujyanama w'ubuzima, aho yambaye akajiri n'agapfukamunwa n'amadarubindi. Imbere ye hari umugore ufite umwana mu ntoki, mu bitambaro by'umuhondo, akaba agiye kumupima ngo arebe ko atarwaye kovidi cumi n'icyenda.

Imbaga y'abaturage bahuriye mu nama yabereye ku kagari yigaga ku bibazo bitandukanye by'ubuzima, barimo abambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umutuku ndetse abenshi ni abagore bateze ibitambaro.

Ihuriro ry'abaganga bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'abandi bambaye amashati y'imikara, bakaba bahuriye mu gikorwa cyiza cyo gusuzuma abarwayi.

Mu by'ukuri dushishikarizwa kwirinda icyorezo cya mabage, kikaba ari icyorezo cyateye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumya na kane, ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa cumi.

Abana babiri barimo uwambaye imyenda imeze nk'iya gisirikari ,n'undi wambaye agapira k'umutuku, bari gukina n'amazi ku mugezi ndetse bigaragara ko bari no kuyanywa.

Umwana mutoya ari kunywa amazi ari kuva muri robine kandi ayo mazi ntabwo atetse, ni byiza ko tunywa amazi atetse kugirango twirinde indwara zikomoka ku mwanda.

Muganga yita ku barwayi batandukanye ndetse niyo mpamvu rimwe na rimwe abaganga bahurira hamwe bakungurana inama ndetse n'ibitekerezo byuburyo batanga serivisi nziza ku baturage.

Umubyeyi ateruye umwana ndetse ari kumureba, uyu mwana arashinyirije ndetse amaso ye arashinjirije. Bigaragara ko umuganga amufashe mu mutwe, bisa nkaho arimo aramuvura.

Abaturage baje kuvoma amazi ku ivomero rusange bari kuvoma ku murongo ndetse bafite amajerekani y'imihondo hakaba harimo abakuru ndetse n'abatoya.

Itsinda ry'abaganga n'abaforomo bahuriye hamwe, bambaye amataburiya y'umweru, ndetse harimo n'abandi biyambariye amashati y'umutuku, bakaba bari kwiga ku bibazo by'ubuzima bwa buri munsi.

Abaganga benshi cyane batandukanye biganjemo abambaye amataburiya y'umweru ndetse bambaye n'amakarita y'akazi abaranga, bakaba bahuye mu nama yigaga ku buryo bushya bwo kwita ku barwayi.

Aba ni abantu benshi bicaye hamwe harimo abana batoya ndetse harimo n'aba mama n'abasaza n'abagore aho bagiye kwa muganga gushaka serivisi zigiye zitandukanye zerekeranye n'ubuvuzi.

Umubyeyi wambaye ingofero, ukenyeye igitenge kirimo amabara atandukanye, ari gukaraba akoresheje kandagira ukarabe. Ni byiza ko muri buri rugo haba kandagira ukarabe.

Inshinge zitandukanye zifashishwa mu buvuzi bwihariye bwo kwa muganga, zifasha abarwayi cyane cyane bafite indwara zikomeye.

Mu mwaka w ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, raporo yagaragaje ko, ikigereranyo cy'abana bitabwaho bagahabwa serivisi zitandukanye mu buzima, cyazamutse.

Abantu benshi bahuriye mu nama bose bakaba bambaye imyenda y'umweru hejuru ndetse ikaba ari mipira iciye amaboko bigaragara ko bahujwe n'igikorwa kimwe cyo kuganira ku nama zitandukanye zo kwita ku buzima.

Umwana mutoya ari gusuhuzanya n'undi mugabo mukuru, ndetse uwo mugabo akaba yambaye agapira k'umuhondo, hari inyuma igiti gishinze cy'urumambo haziritseho igisa n'ikamba, kigenda inyuma.

Ababyeyi ndetse n'abarezi bari imbere y'abana ndetse abana batondetse ku murongo bakaba bambaye imyenda y'inifomo bisa nkaho bari kwigishwa ku bintu bigendanye n'ubuzima.

Uruhurirane rw'ababyeyi benshi baje gusuzumisha abana babo ndetse no gufata inkingo buri wese afite ifishi y'umwana kandi ateruye umwana we.

Itsinda ry'abaganga b'inzobere bahuriye hamwe mu nama, aho bari bambaye neza amakaruvati, amashati meza ndetse basangiye n'ifunguro rya mu gitondo.

Mubyeyi ni byiza gufata umwana wawe neza ukamutetesha, ukamuganiriza, ukamukinisha kugira ngo agire imikurire myiza bityo azabashe kuba umuntu muzima.

Abantu barenga mirongo itanu, bahuriye hamwe bose. Bahujwe n'inama yo ku rwego rw'abaganga, abatoya ndetse n'abakuru.

Umubyeyi uhetse umwana akaba yamuhetse mu gitenge, akaba ari mu mashuku aho ari koza indobo akaba ari kubikorera ku mugezi.

Ababyeyi bajyana abana babo ku bajyanama b'ubuzima bakabapima ibiro bakamenya uko bahagaze bityo bikabafasha kumenya imikurire y'abana babo.

Umukobwa wambaye inkweto z'umuhondo ndetse wambaye ipantaro y'umukara ufite igitenge yashyize mu mugongo, ari kuvoma amazi ariko ayo mazi ni amazi y'umugezi utemba, ni byiza ko dukoresha amazi meza.

Itsinda rigari ry'abajyanama b'ubuzima, ryahuguwe ku bigendanye n'ingamba nshya zo kwirinda indwara. Cyane cyane indwara z'ibyorezo zitandukanye.

Abantu batandukanye b'abajyanama b'ubuzima barimo abagore, abagabo bose bahawe amahugurwa mu buryo bunyuranye bwo kwita ku buzima bw'abaturage ndetse buri wese yari afite ikayi yagendaga yandikamo ibyizwe.

abana baje kuvoma amazi ku ivomo rusange gusa iri vomo riragoye kuko kugira ngo amazi aze risaba gupomba ni yo mpamvu hari umuntu wabonetse agapombera abana kugira ngo babone amazi

Abana babiri bari kuvoma amazi mu kizenga ndetse bakaba bafite amajerekani abiri, bari kuyatsindagira mu mazi kugira ngo babone uko bavoma. Si byiza gukoresha amazi mabi yanduye.

Ubuzima bukwiye guhagurukirwa mu buryo bwose bushoboka, hari inyubako zigezweho zo kwa muganga ziba zifite ikoranabuhanga ritandukanye ryifashishwa mu kwita ku buzima.

Umuganga ari kuganiriza abarwayi ababwira uburyo bwo gufata imiti neza kugira ngo babashe gukira ndetse bamere neza basubire mu buzima busanzwe.

Inyubako yo kwa muganga imbere yayo hari abantu bahicaye, iruhande rwabo hari imodoka y'ivatiri iri kugaragara ikinyoteri na rotorovizere.

Ababyeyi, abamama, abakobwa bose bari guhamiriza byagenze bite rero? Bose bitabiriye igikorwa cy'ubukangurambaga bwo kwita ku buzima.

Ihuriro ry'abaganga ryahuje abaganga b'inzobere, ndetse n'abandi bakomeye, bose bigaga ku bibazo, byo kwita ku buzima bw'abarwayi, buri muntu wese yahawe amazi meza yo kunywa.

Abana bari ku mugezi baravoma amazi bayanywa, bayakinisha, bayaterana, mu byukuri ibi ni ibintu bitari byiza cyane kuko bishobora kugira ingaruka kuri bo.

Umuganga ari imbere yabarwayi afite indangururamajwi ndetse afite n'igitabo mu ntoki ari kwigisha abaturage uburyo butandukanye bwo kwirinda indwara.

Umuganga ari kwita ku murwayi, ndetse uwo murwayi yicaye ku ntebe nyamara muganga we ari hejuru ku gitanda, kugira ngo abone uko amufasha neza.

Abana batoya bagiye mu mugezi, bari kwibira ndetse bitwita koga mu kiyaga ariko mubyukuri bishobora kubaviramo ingaruka kubera ko bagenda banywa amazi make make, akaba yabagiraho ingaruka zikomoka ku mwanda wayo.

Ibitaro byubatse neza, bifite inyubako zigezweho, bisize amarangi y'umweru, bishakaje amabati y'umutuku, ndetse bikaba bifite utujaride mo imbere.

Itsinda rigari ry'abaganga b'inzobere batandukanye bahuriye hamwe mu gikorwa cyo kugirana inama z'uburyo bakita ku buzima bwihariye, bose bafashe ifoto y'urwibutso nyuma y'inama.

Abana bari kuvoma amazi kuri robine ndetse bari kuyanywa n'ubwo bari kuyanywa bayanywesheje intoki kandi adatetse, ni byiza ko tunywa amazi atetse.

Ihuriro ry'abantu benshi baje kwita ku buzima bw'abana bakaba bambaye imyenda isa bigaragara ko ijyanye n'uwo munsi wo kwita ku bana babaha indyo yuzuye.

Umubyeyi w'umu mama wambaye agapira gatiye amaboko akaba ari kuvoma amazi meza kuri robine ndetse niwe wenyine uri kuri robine, bisa nk'aho iyi robine yegereye ahantu ku gasozi karimo ishyamba ritoya.

Abaganga bari kwandika mu makaye, ndetse bakaba bari kwandika ibyo bari gusoma muri telefone, kugira ngo bite ku barwayi.

Uruhurirane rw'abana ndetse n'abandi bantu bose, bazanye amayerekani baje kuvoma amazi meza ku mugezi wo ku ivomo rusange.

Abitabiriye amahugurwa mpuzamahanga, yahuje inzobere ndetse n'abaganga bakomeye mu by'ubuzima, bacyuye ingamba zikomeye zo kwita ku ndwara zitandukanye.

Wasake ni ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi, isuku n'isukura, kikaba gitanga amazi meza yatunganyijwe mu buryo bwiza, kikaba gitanga aya mazi ku baturage bose.

Mu by'ukuri gahunda yo gushishikariza abantu kwita ku buzima bwabo no kwirinda indwara zitandukanye irakomeje. Bityo rero ni byiza ko abanyarwanda n'abandi bose twirinda tukanarinda ubuzima bwacu.

Abantu baje kuvoma ndetse bakaba baje kuvoma ku ivomero rusange, aho iri vomero ari ryiza cyane risize irangi ry'ubururu ndetse hari umubyeyi ufasha abantu kuvoma.

Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura.

Umubyeyi wifashe mu mayunguyungu akaba ari imbere' abandidi babyeyi benshi bigaragara ko bitabiriye inama ndetse n'amahugurwa ari gutangirwa ku kigo nderabuzima.

Umuryango w'abibumbye wita ku buzima yunisefu ushishikariza ababyeyi bose kwita ku bana babo, ndetse ugashishikariza na za leta kwita kuri buri mwana kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Itsinda rigari ry'abantu bitabiriye inama yahurijwemo abaganga, abaforomo ndetse n'inzobere mu by'ubuzima, aho bagiraga inama abaturage uburyo bakwitwara kugira ngo bafate ubuzima bwabo neza.

Itsinda ry'abaganga batandukanye barimo abagore ndetse n'abagabo, bahuriye mu cyumba k'inama biga ku ngingo zitandukanye z'uburyo bwo gutanga serivisi z'ubuvuzi.

Umwana mutoya ari gusukira umusore amazi aho ari gukaraba akoresheje isabune n'amazi meza kugira ngo yirinde umwanda.

Umubyeyi ari kuvoma amazi meza kuri robine ndetse bisa nkaho yabanje koza indobo yaje kuvomeramo, kugira ngo acyure amazi meza afite isuku.

Abana babiri baje kuvoma amazi meza kuri rubine yabugenewe, ndetse bazanye indobo nziza zisukuye ni byiza ko tuvomera amazi mu bikoresho bifite isuku.

Abafatanyabikorwa bose bahuriye hamwe, bakaba ari abafatanyabikorwa mu bigendanye no kwita ku buzima, ndetse bahujwe mu nama yabereye mu gihugu cy'u Rwanda.

Mu rwego rwo kudaheza buri wese mu by'ubuzima ni ngombwa ko twimakaza gahunda yo kurwanya ivangura rishingiye ku gitsina nk'uko byagiye bigaragara mu myaka itandukanye nko muri bibiri na cumi n'umunani byari kuri mirongo itanu na gatanu ku ijana.

Ahangaha ni ku ivomere rusange aho hari umwana uri kuvoma imbere ye hari ivido yateretse ku mugezi ayitereka nabi none ari gupomba amazi akajya hanze, iruhande rwe hari umuntu ufite inkoni ndetse n'abandi bari kumushungera ntibagire icyo bamufasha.

Mu binyacumi by'imyaka ishize hari hari icyuho mu gutanga serivisi z'ubuvuzi ku bagore ndetse n'abana bavuka ariko uyu munsi bitabwaho mu buryo bugaragara.

Umukecuru witeye igitenge kirimo amabara y'umuhondo akaba akenyeye neza cyane, yambaye amarinete, inyuma ye hari utwana turimo kumureba bigaragara ko ari kutugira inama.

Itsinda ry'abajyanama b'ubuzima bitabiriye amahugurwa, yagarutse cyane ku kwirinda indwara zitandukanye zikunze kwibasira abantu b'ibyiciro byose.

Itsinda rigari ry'abaganga bitabiriye amahugurwa yahuje inzobere ndetse n'abadogiteri mu rwego rwo kwita ku buzima bw'abarwayi.

Ni byiza gukaraba amazi meza n'isabune kugira ngo wirinde umwanda uwa ariwo wose, kuko ushobora kuguteza indwara zitandukanye.

Umuganga afite igipapuro gishushanyijeho abana babiri uw'umuhungu, n'uw'umukobwa ndetse hari umubyeyi iruhande rwe arikumwigisha uburyo yita ku bana.

Umwana mutoya uvomye amazi y'ibirohwa, akaba ayavomye mu gishanga ndetse akayavomera mu birahure bibiri byiza, abandi bana bahagaze hakurya bari kumurebera.

Umubyeyi ari kuvoma amazi meza asukuye ndetse ari kuvoma ku ivomero rusange aho yazanye amajerekani atatu abiri akaba ateze ku mugezi indi imwe ikaba itegereje kujyanywamo amazi.

Umubyeyi uteruye umwana, ndetse iruhande rwe hakaba hari undi mwana na we mutoya, uyu mubyeyi ateza igitambaro, ndetse imbere ye hari mironko irimo agaceri gakeya.

Umurwayi ufite ibibazo byo mu mutwe ndetse byamurenze akaba yaziritswe amapingu ku maguru kugira ngo atiruka cyangwa akagira ibyo yangiza.

Nibyiza ko twese duhagurukira hamwe tukita ku kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ndetse na madamu nyakubahwa perezida wa repubulika jeannette kagame nawe arabidushishikariza.

Umuntu ufite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, ariheba, rimwe na rimwe ugasanga yanarize, mu by'ukuri ni byiza kuganiriza abantu nk'abangaba.

Abana batoya nabo bashobora kugira indwara zishingiye ku bibazo byo mu mutwe. Bityo ni byiza gushishikariza abana kwirinda indwara zo mu mutwe.

Itsinda rigari ry'abaganga binzobere mu bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe bahuriye hamwe mu nama biga byinshi cyane kuri ubu buzima bwo mu mutwe.

Isange wani sitopu senta, ni ikigo cyashyizweho, kikaba gishinzwe kwita ku buzima bw'abana b'abakobwa, bahuye n'ihohoterwa ritandukanye, by'umwihariko irishingiye ku gitsina.

umurwayi ufite ikibazo cyo mu mutwe aho akunze kugira imyitwarire idasanzwe nko kwambara ubusa kwambara imyenda byacigaguritse kutoga ndetse no kugira urusake rwinshi

Umukobwa wambaye ipantaro wayizinze y'ikoboyi ndetse akaba yambaye agasengeri k'umukara akaba afite n'agashanete mu ijosi bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umuntu ufite ubuzima butoroshye bwo mu mutwe mbese ufite uburwayi bwo mu mutwe rimwe na rimwe kubera imyitwarire idasanzwe abenshi bakunze kumuzirika kugira ngo atiruka cyangwa akagira ibyo yangiza ariko dukwiye kumujyana kwa muganga agahabwa ubuvuzi.

Umubyeyi ni byiza kujyana umwana wawe kwa muganga bakamupima bakareba ibibazo afite igihe, cyose ubona afite ibibazo bishingiye ku buzima bwo mu mutwe.

Itsinda ry'abaganga b'inzobere mu buzima bwo mu mutwe, bahuriye hamwe bahabwa amahugurwa ndetse nyuma yaho bafata ifoto y'urwibutso.

Umuntu umeze nk'umusazi ufite uburwayi bwo mu mutwe, afite ibyambagara mu ntoki by'amasashiyi n'ibyakatsi, iruhande rwe hateretse amacupa yakusanyije, inyuma ye hari abantu bisa nk'aho bamurebera bamucunga.

Abana batoya nabo bagomba kwigishwa iby'ubuzima bwo mu mutwe kubera ko indwara zifata mu mutwe n'indwara zishobora gufata n'abana batoya.

Umubyeyi wicaye ku ntebe y'ubururu ateze igitambaro cy'ubururu, imbere ye hariri umuganga wicaye ndetse akaba ari kwandika ibisubizo yapimye uyu murwayi.

Imbaga y'abantu bitabiriye inama yigaga ku bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse imbere yabo hari umubyeyi ufite indangururamajwi uri kugenda yakira ibibazo bitandukanye.

Turi kubona abakobwa babiri bambaye, umwe yambaye agapira k'ubururu n'agapantaro, undi nawe yambaye agakabutura k'agasurubeti k'ubururu ndetse n'agapira k'umweru, bose bambaye udupfukamunwa, bari kwamamaza uburyo umuntu yagira ubuzima bwiza.

Ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe, ni ubuvuzi bukwiye guhagurukirwa kuko hari abantu benshi bakomeje kugaragaza indwara zishingiye ku bibazo byo mu mutwe.

Umuganga afite agatabo karimo uburyo waganiriza umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe kugira ngo ubashe kumufasha.

Ni byiza gufasha umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe nubwo biba bigoye kubera ko uyu muntu iyo afashijwe akagezwa kwa muganga aravurwa agakira.

Umuganga wambaye agapfukamunwa uri kwandika mu gakayi, imbere ye hateretse amazi iruhande rwe hari umuganga ufite indangururamajwi, uri gusobanura iby'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse hakaba hari ibyapa byanditseho arabisi, ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima mu Rwanda.

Abantu benshi bitabiriye amahugurwa yo kwita ku buzima bwo mu mutwe ndetse no kwirinda indwara zifata mu mutwe.

Itsinda ry'abantu benshi cyane bafite indwara zo mu mutwe, bitabwaho n'abaganga, bakaba ari abantu bafite ibibazo bitandukanye bishingiye ku bibazo byo mu mutwe.

Umurwayi wo mu mutwe, mbese ufite ikibazo cyo mu mutwe, agira imyitwarire idasanzwe, ndetse rimwe na rimwe akora ibintu bimeze nk'iby'abana, kandi aba afite umwanda.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bitabiriye amahugurwa yitaga ku buzima bwo mu mutwe, ndetse no kwirinda indwara zifata mu mutwe.

Ubukangurambaga butandukanye burakomeje mu kurwanya indwara zifata mu mutwe ndetse abantu benshi bakomeje gushishikarizwa kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe yambaye ibyenda byashaje cyane byacikaguritse by'ibicuki ndetse afite n'umusatsi wabaye injwiri, umurebye wagirango ngo ni rakidube, ahagaze mu muhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti byinshi binini.

Umukecuru wicaye ku gatebe, bigaragara ko afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, akaba akeneye kwitabwaho ndetse no kuganirizwa, kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Itsinda ry'abantu bitabiriye amahugurwa yatanzwe ku buzima bwo mu mutwe, hakaba harimo abasore, abakobwa, abagore ndetse n'abagabo.

Inama yahuje abaturage ndetse n'abaganga, bakaba baganiriye ku kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe kubera ko muri iki gihe indwara zifata umutwe zimaze kuba nyinshi.

Umurwayi wo mu mutwe benshi bakunze kwita umusazi agira imyitwarire idahwitse ku buryo rimwe na rimwe akusanya ibyamvagara n'ibyenda byacikaguritse.

Imbaga y'abantu benshi cyane barimo abana, urubyiruko, abakecuru, abasaza bose bafite utudarapo dutoya, bakaba bahuriye mu gikorwa cyo kurwanya indwara zifata mu mutwe.

Itsinda ry'abaganga batandukanye, bambaye neza, barimo abagore ndetse n'abagabo, bose bakaba bahuriye ku nyubako y'ibitaro, ndetse bakaba bari kwiga ku kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe.

Umurwayi ufite ibibazo byo mu mutwe ndetse bamwe bakunze kwita umusazi. Uyu nguyu ni umuntu ukunze kugaragaza imyitwarire idasanzwe, nko kugira umwanda ushingiye ku myenda yambara ndetse n'uburyo atajya yogosha umusatsi we.

Ni byiza ko twita ku ndwara zo mu mutwe ndetse tugahagurukira no kwita ku buzima bwo mu mutwe kuko umutwe niwo gice gikomeye cy'umuntu.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe araganirizwa na muganga amwitaho amugira inama ndetse amuhumuriza.

Ihuriro ry'abaganga ndetse n'abatumirwa bitabiriye amahugurwa yo ku rwego rw'isi, yo kwita ku buzima bwo mu mutwe, ndetse no kwita ku buvuzi bw'indwara bifata mu mutwe.

Abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa abafite ibibazo byo mu mutwe bagira ibimenyetso bitandukanye nko kwigunga, kwiheba, ndetse no kwitakariza icyizere

Umurwayi ufite ikibazo cyo mu mutwe akaba yigunze ndetse akaba agaragara nk'ufite ubwoba, umurwayi wo mu mutwe akeneye kuganirizwa ndetse no kwitabwaho.

Mu by'ukuri ni byiza ko twirinda ndetse tugahagurukira kurwanya indwara zifata mu mutwe by'umwihariko tugomba gukangukira kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Muganga ari gusuzuma umurwayi iryinyo ndetse bigaragara ko ari umuganga ubifitemo uburambe, kuko hari abandi barwayi bategereje gusuzumwa benshi.

Amenyo agomba kwitabwaho ndetse akagirirwa isuku kugira ngo dufashe umubiri wacu gukomeza kumera neza nta kibazo na kimwe ugize gishingiye ku menyo.

Umurwayi ufite ibibazo by'amenyo, ajya kwa muganga bakamusuzuma neza bakamenya ikibazo cye, hanyuma bigafasha gutuma yivuza agakira.

Igihe usukura amenyo yawe, ushobora gukoresha akagozi, cyangwa urudodo, mu rwego rwo gukuramo twanda twose tuba twafashe hagati y'amenyo.

Intebe nziza igezweho umurwayi ufite ikibazo cy'amenyo yicaraho mu buryo bwiza bumufasha, kuko muganga abona uko amuvura nta nkomyi.

Umukobwa mwiza useka neza amasaro agaseseka kubera ko yogeje amenyo ye akoresheje uburoso ndetse n'umuti wabugenewe witwa korogate.

Inyubako yo kwa muganga ifite icyumba kihariye gisuzumirwamo abarwayi, gifite ibikoresho by'ikoranabuhanga ritandukanye ndetse bikaba bigaragaza ko ubuvuzi bumaze gutera imbere.

Ni byiza gukoresha uburyo bwabugenewe, wisuzumisha amenyo yawe, aho kugira ngo wowe ubwawe ufate ibiti ndetse n'ibindi bikoresho, ugende ubijomba mu menyo yawe.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga ritandukanye birimo mudasobwa ndetse n'ibindi bikoreshwa kwa muganga kugira ngo bifashe abaganga gusuzuma neza ibibazo by'abarwayi.

Abana b'banyeshuri bishimye, banezewe, bambaye inifomo, bicaye mu ntebe z'abanyeshuri. Bose bigishijwe gusukura amenyo yabo, bakoresheje umuti wa corogate. Ndetse bahawe uyu muti bose urabona ko bishimye.

Igishushanyo cy'amenyo kikaba gishinyitse, ni igishushanyo kirimo amenyo asizeho utuntu tw'utubara, bari kukifashisha batwereka uburyo twakwita ku menyo yacu.

Gusukura amenyo ukoresheje uburoso n'umuti wabugenewe, ni byiza cyane kandi ni ingenzi kuko bikurinda indwara zitandukanye zikomoka ku mwanda, uba uturuka ku byo wariye.

Ni byiza cyane kwigisha abana batoya gukora isuku y'amenyo bakoresheje urudodo, cyangwa akagozi, kuko gafasha gukuramo imyanda yose iri hagati y'amenyo, itabasha gukurwamo n'uburoso bw'amenyo.

Inyubako nziza cyane yitwa ikizere yubatse mu buryo bw'igorofa, ndetse isize amarangi y'ubururu ifite ibirahure byiza bibengerana ikaba icururizwamo imiti itandukanye.

Ni byiza ko igihe cyose wumvise ufite ikibazo cy'amenyo akurya cyangwa se hari ubundi buryo atameze neza, ugana muganga akagusuzuma akamenya ibibazo by'amenyo yawe.

Umuntu wagiye kwa muganga arwaye, akaba yagiye kwikuza iryinyo, none hano bari kutwereka icyuma kimaze kuriranduramo, hari n'umwenge ryavuyemo, ariko ushoboye kuwubona ukagira ubwoba, ariko abaganga baguha imiti uyu mwobo ukongera ukisubiranya.

Ikigo nderabuzima ndetse no mu bitaro haba hari ahabikwa ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bwa buri munsi bw'abarwayi.

Ugira ngo se uyu ni umuganga? oya da! ahubwo ni inzobere mu by'amenyo, akaba ari gukura umwana mutoya iryinyo, uyu mwana yaje ababaye, akeneye kwivuza.

Umumama wagiye kwa muganga kwikuza amenyo, imbere ye hari abaganga bagera muri babiri bari kumukura amenyo. Umwe yambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa n'amadarubindi, undi yambaye itaburiya y'ubururu n'amadarubindi n'agapfukamunwa. Bari kumuha iyo serivisi.

Muganga nyuma yo gusuzuma ari mu bushakashatsi butandukanye, ari kwandika ibisubizo amaze kubona ku bushakashatsi amaze gukora, aho ari kwandikisha marikeri ku rupapuro.

Umuganga wambaye uturindantoki ari gukora ku gishushanyo cy'amenyo bigaragara ko ari kwigisha uburyo bakora isuku y'amenyo ndetse n'uburyo indwara z'amenyo zifata.

Abanyeshuri bambaye inifomo bose bakaba ari abana batoya mwarimu wabo yabahaye umuti ukoreshwa mu gusukura amenyo witwa korogate.

Umukobwa mwiza cyane ufite imisatsi myinshi, wambaye isengeri y'umweru, ari koza amenyo ye akoresheje umuti wabugenewe ndetse n'uburoso bwiza busukuye.

Ni byiza kwita ku bakuze ndetse tukabaha imiti ibagenewe, kugira ngo bakomeze kugira ahazaza heza.

Abakuze bafashwa gukora siporo zoroheje mu buryo butandukanye, kugira ngo bitabweho ndetse bagire ubuzima bwiza buzira umuze ndetse bagire n'ubudahangarwa bw'umubiri.

Abakuze bitabwaho mu buryo butandukanye ndetse bagafashwa gukora siporo mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ni byiza ko abakuze nabo bakora siporo kugira ngo bagire ubuzima bwiza ndetse babashe kunanura no kugorora imitsi yabo n'ingingo zitandukanye.

Umuntu wageze mu za bukuru rimwe na rimwe amera nk'umwana, niyo mpamvu akenera kuganirizwa ndetse agahabwa akagare k'abafite ubumuga kugira ngo kamufashe.

Abakuze bitabwaho bakaganirizwa ndetse bagatemberezwa mu rwego rwo kubafasha kugira ngo bakomeze kugira ubuzima buzira umuze kandi barambe.

Umukecuru n'umusaza bageze mu za bukuru bari kwikorera ka mucaka ndetse ibi bibafasha kugira ubuzima bwiza ndetse no kwirinda indwara zifata abageze mu za bukuru.

Umukecuru ugeze mu zabukuru ufite imvi z'uruyenzi, akaba yishimye rwose kubera ko ari gufashwa gukora siporo zitandukanye, kugirango ubuzima bwe bumere neza.

Abapapa babiri bari gutambuka bambaye amashati y'umweru, umwe hasi yambaye ipantaro y'umukara ya siporo n'undi yambaye ipantaro y'umukara imanuyemo akaronko. Bakaba bafite uducupa mu ntoki, bigaragara ko bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umubyeyi ukuze wambaye amarinete ufite umusatsi mwiza, wambaye ikanzu y'umuhondo ari gufata imiti itandukanye yandikiwe na muganga mu rwego rwo kugira ngo ikomeze kumufasha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Umusaza ari kwitabwaho n'umuganga amusomera uburyo akoresha imiti mu rwego rwo kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza ndetse afashe umubiri we kugira ubudahangarwa.

Umusaza uri kwitabwaho n'umukobwa ukiri muto w'umukobwa ufite imisatsi myiza ndetse wambaye ikanzu y'ubururu akaba ari kuganiriza uyu musaza ndetse amuha ubuvuzi butandukanye.

Abakuze bagomba kwitabwaho ndetse bagahabwa serivisi zitandukanye z'ubuzima bakaba bafashwa no gukora siporo zoroheje mu rwego rwo gufata neza ubuzima bwabo.

Umukecuru ugeze mu za bukuru afite ikirahure gisa nkaho kirimo ikinyobwa, hari iruhande rwe umumama ukiri mutoya uri gutegura ibintu by'imbuto birimo; inyanya, urusenda, pavuro ndetse n'amacunga.

Umukecuru bigaragara ko akuze ufite imvi z'uruyenzi, wambaye amarinete amufasha kureba neza wipfutse ku munwa ariko akaba afite n'agakombe k'amazi bigaragara ko ari kunywa ibinini.

Umuganga yita ku barwayi batandukanye barimo n'abageze mu za bukuru bagaha umusaza ibinini kugira ngo ajye abinywa abashe kugira ubuzima buzira umuze.

Ihuriro ry'abagore batandukanye bakora ubucuruzi ku isoko, aho bacuruza ibiribwa bitandukanye, byiganjemo inyanya, amacunga, ndetse n'ibindi,

Umubyeyi bigaragara ko ari umuganga ukiri muto, ari kwita ku musaza ugeze mu zabukuru, akaba ari kumuganiriza ndetse amufasha muri serivise z'ubuvuzi.

Abakecuru babiri bageze mu zabukuru, aho bari kugenda mu muhanda bicumbye utubando, umwe yambaye imikenyero undi yambaye ijipo y'umweru, bose bambaye udupira tw'umutuku, umwe ateze agatambaro, undi ntabwo yagateze, hari abandi bantu bari kugenda mu muhanda inyuma yabo.

Abasaza babiri bakuze bageze mu za bukuru rwose bambaye ingofero zifite urugara bakaba biteye n'imyitero bigaragara ko baje mu gikorwa cy'umunsi mukuru w'abakuze.

ababyeyi bageze mu za bukuru bitabwaho mu buryo butandukanye ndetse bakagirwa inama niyo mpamvu hari ababyeyi batatu bageze mu za bukuru bari kuganirizwa n'abana ndetse n'umugore.

Ni byiza ndetse ni iby'ingenzi cyane, kwita ku basaza bageze mu za bukuru bafite imvi z'uruyenzi, tukabuhagira dukoresheje amazi meza n'isabune, mu rwego rwo kubafasha kugira isuku.

Abakuze bagomba kwitabwaho mu buryo butandukanye, ndetse bakagaburirwa ibiryo birimo amagi, amandazi, imbuto zitandukanye, kugira ngo bibafashe mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umuganga ari gufasha umusaza ukuze, ari kumufasha kugendera mu kintu gifite ibyuma biri hirya no hino, akaba ari bibiri. Ndetse bisa nkaho uyu musaza atabashaga kugenda.

Umubyeyi ukuze ari kwitabwaho n'abana bakiri batoya, n'ubwo atari bato cyane mu by'ukuri bari kumugaburira ibiryo byuzuye intungamubiri.

Umukecuru ukuze w'imvi z'uruyenzi arishimye cyane ndetse urabona ko amwenyura rwose bigaragara ko yitaweho ndetse aganirizwa n'abantu batandukanye.

Umurwayi urembye cyane ukeneye ubufasha bwihariye ajyanwa mu bitaro agashyirwa ku gitanda cyiza ndetse umuganga akamutera salomo imufasha kumwongerera amaraso.

Ni byiza ko twita ku bakuze tukabigisha uburyo bwo gufata imiti ibagabanyiriza indwara, baba barwaye imivuduko y'amaraso n'izindi.

Umusaza ugeze mu za bukuru ufite imvi z'uruyenzi yitabwaho na muganga akaganirizwa, ndetse akaba akunze kuba yibereye mu kagare k'abafite ubumuga.

Umusaza ukuze cyangwa umukecuru ugeze mu za bukuru, bitabwaho kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza ndetse birinde indwara zitandukanye.

Abakecuru babiri bakuze rwose bari gukora imyitozo ngororamubiri, barambura amaboko bongera bayahina bayamanura bongera bayayizamura kugira ngo bafashe umubiri wabo gukomeza kumera neza.

Umusore mutoya ari gufasha umusaza ukuze ufite imvi z'uruyenzi ndetse wambaye amarinete, akaba ari kumufasha gusoma kugira ngo uyu musaza akomeze gukangura ubwonko bwe.

Umusaza ugeze mu za bukuru wambaye amarinete ndetse ufite imvi z'uruyenzi haba mu mutwe no mu bwanwa akaba yicaye mu kagare k'abafite ubumuga ari gucungwa n'umukobwa mutoya.

Umusaza ukuze ari kwitabwaho n'umuganga amusuzuma indwara zitandukanye, ndetse amugira inama y'icyo yakora kugira ngo akomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Umunsi mukuru mpuzamahanga w'abakuze, ukaba witabiriwe n'abakecuru bambaye neza biteye imyitero ndetse n'abasaza bambaye ingofero z'urugara.

Umuntu ukuze yitabwaho, akaganirizwa, akagirwa inama zitandukanye z'uburyo yitwara mu buzima, bityo bikamufasha kwirinda indwara zifata abageze mu za bukuru.

Abakuze bitabwaho bagakina n'abana batoya kugira ngo babashe kwishima ndetse be kwigunga bityo bikaba bitabasha kubagiraho ingaruka.

Abantu benshi cyane bakunze kuvuga ko nta mukecuru wagakwiye gukora siporo, gusa ni byiza ko abakuze; abasaza n'abakecuru bimakaza siporo kugirango bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusaza n'umukecuru bageze mu za bukuru bari gusangira ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye, harimo ibyubaka umubiri ibiririnda indwara ndetse n'ibitera imbaraga.

Umusaza ukuze ugaragara nkaho ari mu myaka iri hejuru ya za mirongo itandatu, akaba ari gukora siporo, hari undi mugabo ukiri mutoya ufite ikintu cy'umuhondo, aho ari kugikururana n'uyu musaza, icyo kintu ni umugozi.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye baje kwa muganga bakuze, bakaba bahawe ubufasha butandukanye kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusaza ugeze mu zabukuru wambaye amarinete yitabwaho n'umuganga, akamugira inama, akamuha imiti ndetse akamusubiza icyizere cy'ubuzima.

Umusaza ugeze mu za bukuru yitabwaho agahabwa ibiryo bitandukanye cyane cyane byiganjemo imbuto nka pome ndetse agahabwa n'umutobe kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umukecuru ugeze muzabukuru akaba afite imvi z'uruyenzi, ashinze inkokora hasi, yarambuye amaguru asa n'uzamuka. Mu by'ukuri ari gukora siporo twita pombaje.

Umusaza ari gusoma igitabo ndetse iruhande rwe hateretse amazi meza ari mu kirahure uyu musaza w'imvi z'uruyenzi bigaragara ko ari gusoma kugira ngo afashe ubwonko bwe gukomeza kwibuka no gutekereza neza.

Abantu batandukanye barimo abaganga ndetse n'abandi banyabwenge bahuriye muri gahunda yiswe "Garuka ugire ubuzima".

Gahunda yo kwita ku buzima bwa muntu irakomeje, ndetse abaganga bakomeje kugira inama buri muntu wese uhagurukira kwita ku buzima bwe.

Itsinda rigari ry'abantu batandukanye bashinzwe iby'ubuzima bitabiriye inama yabahuje kugira ngo bige ku kibazo cy'ubuzima ndetse bafate ingamba nshya.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc mu rwanda cyashyizeho ahantu hihariye hakorerwa imiti itandukanye mu rwego rwo gutuma abaturage b'u rwanda bagira ubuzima bwiza.

Itsinda ry'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda y'umweru ndetse n'iy'umukara, bose bahuriye mu mahugurwa yari ari kwiga ku bibazo by'ubuzima bitandukanye.

Umuganga ari gufasha umurwayi ndetse akaba yamupfutse nyuma yo kumutera urushinge kugira ngo amaraso adakomeza kuva.

Twese hamwe dushyigikire ndetse dufatanyirize hamwe kurwanya virusi itera sida mu bana batoya, kugira ngo bagire ejo hazaza heza.

Mu rwego rwo gukomeza kwita ku buzima tugomba kwitabira gahunda yo kurwanya indwara zifata uruhu zitandukanye ndetse harimo nk'indwara y'uduheri ndetse benshi bakunze kwita ubushita.

Umubyeyi ufite indangururamajwi uri imbere y'abantu, arimo kubaganiriza kuri gahunda zitandukanye zigendanye na serivisi z'ubuzima.

Itsinda ry'abantu bitabiriye inama, yari iri gushishikariza buri muntu wese kwita ku buzima, ndetse yisuzumisha indwara zitandukanye, bashoje inama bafatiye ifoto y'urwibutso imbere y'inyubako bakoreyemo inama.

Ni byiza cyane ko twitabira gahunda zo kwita ku buzima zitandukanye zirimo kwisuzumisha ndetse no kugisha inama abaganga kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Ubuzima bw'abana bugomba kwitabwaho, ndetse umubyeyi agaha umwana we imfashabere kugira ngo agire imikurire myiza.

Ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe kwita ku buzima ndetse no kwita kuri gahunda zitandukanye z'ubuzima n'ubujyanama mu by'ubuzima ishishikariza abajyanama b'ubuzima gukomeza kwita ku barwayi.

Ni byiza gufata inkingo zagenwe kugira ngo umuntu abashe kumera neza, by'umwihariko zaba inkingo zihabwa abana, ndetse n'abakuze bitewe n'ubuzima bwabo.

Twirinde indwara y'ubushita bw'inkende; iyi ndwara yadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa cumi.

Itsinda rigari ry'abaganga b'inzobere ndetse n'abaganga bakuru, bitabiriye amahugurwa yitaga ku buzima bw'abarwayi, harimo abambaye amakoti ndetse na karuvati.

Abantu babiri bambaye amashati y'umukara bakaba bafite icyapa cyanditseho amagambo agaragaza ko tugomba kwisuzumisha igituntu, handitsweho ngo twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira.

Gahunda yo kuringaniza urubyaro ni gahunda nziza cyane, kuko ifasha ababyeyi kubyara abana bashoboye kurera ndetse bigatuma abo bana bazagira ubuzima bwiza.

Umuryango mpuzamahanga wita ku buzima, ushishikariza abantu bose kwitabira gahunda zitandukanye zo kwirinda indwara.

Ikigo cy'igihugu cyita ku buzima ndetse gifite umuryango washinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu, gishyizeho gahunda yo kwirinda virusi itera sida.

Mu by'ukuri ni byiza kwita ku buzima bw'abana batoya, ndetse tukabaganiriza ku bibazo by'indwara zo mu mutwe.

Ikirangantego cy'Igihugu cy' u Rwanda, kirimo isaka, agaseke ndetse n'ipfundo, ingabo ebyiri, imwe ibumoso indi iburyo.

Rrubyiruko ni byiza ko twirinda virusi itera sida, ndetse n'izindi ndwara zikomoka mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, dukoreshe agakingirizo twirinde indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Umuryango w'abibumbye wita ku buzima, ushishikariza abantu bose kwita ku ndwara zitandukanye kugirango zibashe gukira.

Mu rwego rwo kwita ku buzima ndetse binyuze muri gahunda ya leta y'uko ubuvuzi bugomba kwegera abaturage, ku rwego rw'akarere hagomba kuba ibitaro, ku rwego rw'intara hakaba ibitaro ndetse muri buri kagari bibaye byiza hakabaye ikigo nderabuzima.

Itsinda ry'abaganga batandukanye, bahuriye hamwe mu rwego rwo gushishikarizwa gukomeza kwita ku buzima ndetse no kugira isuku muri rusange.

Ni byiza cyane ko duhagurukira gahunda zitandukanye zo kwita ku buzima ndetse tukirinda no gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye.

Raporo y'umuryango w'abibumbye wita ku buzima, wakoze ubushakashatsi ku ndwara ya Kovide cumi n'ikenda ndetse ibikorera mu gice cya Afurika.

Inama yahuyemo abakuru batandukanye mu bigendanye n'inzego z'ubuzima, biyemeje ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu bazaba bafite ubushobozi bwo kwita ku barwayi bose.

Umudamu uri kwifotoza yambaye imyambaro y'umweru n'akapfukamunwa yambariye munsi y'akananwa ndetse n'akagofero k'akanozatsotso, yazamuye igipfunsi ari kuvuga ngo izo ngamba twihaye tuzazigeraho rwose nta kabuza.

Twirinde kandi turinde n'abandi indwara zitandura. Indwara zitandura ni indwara zikomeje kugaragara cyane cyane mu bakuze, aha twavuga nk'imivuduko y'amaraso, diyabete n'izindi.

Mu ibitaro kwa muganga aho abarwayi barembye bajyanwa bakaryamishwa, hakorerwa isuku n'abakozi babishinzwe mu rwego rwo kurinda abarwayi umwanda.

Ikigo nderabuzima cyita ku ndwara z'ibanze, ndetse kivura abantu batoya ndetse n'abakuru kugeza ku myaka cumi n'umunani.

Inyubako yo kwa muganga ifite icyumba kinini cyane kirimo ububiko bw'imiti, aho imiti iba ipfunyitse mu dukarito mu macupa ibikwa mu buryo butandukanye.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibintu bitandukanye, hari igitanda cy'umurwayi ariko si icyo kuryamaho gusa, ahubwo ni igitanda kigezweho, aho umurwayi aryama afite n'aho ashyira amaboko kugira ngo babashe kumusuzuma.

Buri nyubako yose yo kwa muganga, igira ahatangirwa serivisi, mbese ahakirirwa abarwayi cyangwa abandi bantu bashaka serivisi zitandukanye z'ubuzima.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga isize irangi ry'ubururu bwerurutse, ndetse ikaba iriho abantu bategereje serivise z'ubuzima.

Inyubako yo kwa muganga ifite aho abarwayi barembye barwarira, ndetse aha hantu haba hari ibitanda byiza bishashe neza biriho matora nziza bifite aho umurwayi afata ku ruhande kugirango abashe guhaguruka.

Inyubako nziza cyane isize amarangi meza asa nk'ivu ikaba ifite amadirishya menshi ndetse n'imiryango, hejuru mu gisenge hari ibyuma bitambitse ndetse hari akantu k'agasikweya kari mu mabati kazana urumuri muri iyi nyubako.

Inyubako nziza cyane yubatswe neza ikaba yubakishije amatafari ahiye y'impunyu ndetse ikaba yanditseho ibyapa bigaragaza ko icuruza imiti.

Intebe ziri iruhande rw'ameza ndetse iruhande rwaho hari izindi ntebe nziza cyane bigaragara ko ari inyubako yo kwa muganga aho abantu bicara bategereje serivisi z'ubuzima.

Inyubako yo kwa muganga nziza cyane isukuye ndetse ikaba ifite inkingi ziyifashe. Iyi nyubako imbere yayo hari icyapa kirekire n'ikindi kigufi byanditseho serivise iki kigo gitanga.

Ububiko bwo kwa muganga bubamo imiti itandukanye, usanga harimo utubari twinshi ndetse buri kabati kaba kabitse umuti wako.

Kwa muganga hari igitanda cyiza umurwayi aryamaho, iruhande rwaho hari ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga mu gusuzuma umurwayi.

Abaganga babiri bambaye itaburiya y'umweru bari kureba mu gisanduku kibikwamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa ndetse hari ibikoresho by'ikoranabuhanga biri kubereka uburyo bakita ku murwayi.

Inyubako nziza cyane isize amarangi y'umweru, ikaba ifite imbere y'aho akarasire k'izuba, bisa nkaho gakurura amashanyarazi avuye mu zuba, ndetse ishakakaje amabati y'ubururu, ikaba ari inzu y'ababyeyi.

Ibitaro byubatswe neza cyane bifite inyubako igeretse inshuro zigera muri eshatu akaba ari ibitaro bisizwe irangi ryiza cyane ry'amabara atandukanye hakaba haparitse imodoka nyinshi zaje gushaka serivisi z'ubuzima.

Muganga wambaye uturindantoki ndetse itaburiya y'umweru akaba ari gutera urushinge umurwayi kugira ngo rumufashe kumuvura indwara zitandukanye.

Ibitanda byo kwa muganga bigezweho, biba biri mu nyubako z'ibitaro, bifasha abarwayi ndetse n'abaganga, mu rwego rwo kubasuzuma indwara zitandukanye.

Amamashini yongera umwuka yo kwa muganga, ni amamashini ahora acometse ku muriro w'amashanyarazi ndetse ahora yiteguye gutanga umwuka ku barwayi bawukeneye.

Umuntu ufite ubumuga ahabwa akagare k'abafite ubumuga, kakamufasha kugira ngo abashe kugenda ndetse na we agire ubuzima bwiza.

Umurwayi urembye ashyirwa mu bitaro akaryamishwa ku gitanda cyiza kiriho amashuka meza ndetse agahabwa serumo imufasha kongera amaraso.

Ku kigo nderabuzima hahuriye abarwayi benshi cyane, ndetse bamwe bicaye ku gasima abandi bari ku rubaraza bategereje serivise z'ubuvuzi.

Inyubako icuruza imiti izwi nka farumasi ikaba yanditseho ko bakorana n'ibigo bitandukanye by'ubwishingizi.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga ikaba yubatswe mu buryo bwiza, ndetse isize irangi ryiza imbere yayo hari indi nyubako yubakishije amatafari ahiye, hari agahanda kanyura hagati y'izo zombi keza cyane ka kaburimbo.

Kwa muganga mu bitaro hari umuganga uri kumanika inzitiramubu, cyangwa se ari kuzimanura ahantu hari umurwayi ndetse ibi bigaragaza ko bikwiye kwirinda malariya.

Aha ni kwa muganga aho hari ibitanda bigiye bitandukanye bakiriraho abarwayi barembye bakaryamaho, haba hari n'isakazamashusho ku buryo iyo umurwayi arambiwe bayimwakiriza akaba ararebaho kugira ngo atarambirwa.

Inyubako yo kwa muganga yubatswe neza cyane ifite inkingi zubakishije amatafari y'impunyu ndetse ikaba isize irangi ry'umweru, ifite ibirahure byiza bibonerana.

Inyubako yo kwa muganga ni inyubako nziza cyane, ifite imiryango itandukanye, ndetse buri muryango ufite serivise utangirwamo, nk'aho hari aho basuzumira, aho batangira imiti, ndetse n'ahandi.

Inyubako y'ibitaro byiza cyane, yubatswe mu buryo bw'igorofa, ikaba igeretse inshuro ebyiri, ndetse ikaba ifite ahantu heza ho kwakirira abarwayi.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro ifite amarangi y'umweru ndetse imbere hayo hakaba hari ubusitani bwiza burimo utwatsi dutoshye, ndetse urabona ko abarwayi bari impande z'aho.

Akarere ka nyanza gafite ibitaro byiza cyane, ukigera ku marembo y' ibyo bitaro uzahasanga icyapa kinini ,cyanditseho amagambo agaragaza ko ari ikigo nderabuzima gikomeye cya nyanza.

Inyubako nziza yo kwa muganga yubakishije amatafari ahiye y'impunyu, iruhande rwayo hari umuhanda uzamuka uca ku nyubako imbere mu kibuga aho twakwita nko muri jaride hashinze idarapo ry'u rwanda.

Igitanda kigezweho umurwayi aryamaho maze icyuma kikamusuzuma, hanyuma kikamenya ibibazo afite byo mu mubiri.

Mu bitaro byo kwa muganga, hari ibikoresho by'ikoranabuhanga ritandukanye byifashishwa mu buvuzi ndetse no gusuzuma abarwayi.

Inyubako nziza yo kwa muganga yubatswe mu buryo bugezweho, aho ari inyubako yo hasi n'iyo hejuru ndetse hakaba hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, riri imbere y'ibyo bitaro.

Inzu y'ababyeyi. Ni inzu ishyirwaho ku bitaro aho ari ho hose, kugira ngo yifashishwe n'umubyeyi ugiye kubyara.

Ibitaro bya kabgayi biherereye mu karere ka muhanga ndetse bikaba ari ibitaro bizwiho kuvura cyane indwara z'amaso ndetse hakaba haba abaganga b'inzobere.

Igitanda cy'umurwayi. Ni gitanda umuntu urembye ashyirwaho kwa muganga kugira ngo akomeze kwitabwaho, igitanda kiriho imiti ndetse bigaragara ko nta murwayi uryameho.

Iyo ugeze kwa muganga uhasanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, gusa mu nyubako yo kwa muganga hari icyumba ndetse buri cyumba cyose gihari gifite icyo gikorerwamo.

Abaganga bari kwita ku barwayi bagiye batandukanye. Hari umuganga umwe wegeranye n'umukecuru, uwo mukecuru akaba afite ubumuga ndetse yicaye mu kagare k'abafite ubumuga.

Inyubako yo kwa muganga igira icyumba bafatiramo ibizamini by'abarwayi bityo abarwayi bicara iruhande ku ntebe bagategereza ibisubizo by'ibizami byabo.

Ikigo nderabuzima cya Kigina ni ikigo cyiza cyane gifite amarembo manini, iruhande rwacyo kuri ayo marembo hari umubyeyi uhetse umwana, bigaragara ko yaje kuvuza uwo mwana.

Ababyeyi bambaye imipira y'umuhondo abandi bateze ibitambaro ndetse n'abagabo b'abajyanama b'ubuzima bahuriye mu nyubako y'ibitaro aho baje guhugurwa uburyo bwo kwita ku bantu bafite ibibazo by'uburwayi butandukanye.

Abaganga batandukanye bari kwita ku murwayi urembye bakoresheje uburyo bwose bushoboka kugira ngo batabare ubuzima bwe hanyuma babone uko buzuza inshingano zabo.

Kwa muganga hari ibitanda byiza, ndetse ibyo bitanda bikaba bikoranwe ikoranabuhanga, ku buryo umurwayi abiryamaho ibyuma bikamusuzuma bikamenya uburwayi bwe.

Kwa muganga hari intebe nziza ndetse izo ntebe zikaba zicarwaho n'abarwayi bategereje serivisi z'ubuvuzi mu rwego rwo kugira ngo batananirwa.

Ibitaro byo kwa muganga bibamo ibitanda byinshi bitandukanye byifashishwa mu kuryamishwaho abarwayi barembye, ndetse buri gitanda cyose kiba gifite inzitiramubu yacyo.

Inyubako nziza cyane isa nkaho ari inyubako yo kwa muganga, ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, ifite akabingaro kanini cyane ndetse muri ako kabingaro hahagaze umukobwa wambaye akantu k'umuhondo n'akajipo kagufiya.

Inyubako yo kwa muganga iba yubatswe mu buryo bwiza ku buryo serivisi yose iba ifite aho itangirwa, bityo niba ukeneye serivisi runaka uba ufite umuryango ugomba kwinjiramo.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki ari kwita ku mubyeyi urwaye ndetse urembye akaba ari kumuganiriza.

ikigo nderabuzima cya kigina ni ikigo gifite amarembo manini yo kwinjiriraho iruhande rwacyo kuri ayo marembo hari umubyeyi uhetse umwana ndetse akaba ari kumuhugenza

Ububiko bw'imiti kwa muganga ni ububiko bunini cyane ndetse bigaragara ko buri muti wose ufite ahabugenewe ubikwamo.

Kwa muganga hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu kwita ku murwayi ndetse ibi bikoresho ni byiza cyane.

Kwa muganga haba ibitanda bihagije, ndetse byinshi bifasha abarwayi barembye, ndetse hakaba hari ibitanda rimwe na rimwe, usanga bitariho abarwayi kubera ko atari benshi barembye.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba yubakishijwe amatafari y'impunyu ahiye ndetse ikaba ari inzu rwose isa neza, iruhande rwaho kuri iyo nyubako hari ubusitani burimo indabo.

Mu bitaro byo kwa muganga hari ndembe; mu by'ukuri haba hari abaganga benshi cyane bagenda bakurikirana ubuzima bw'aba barwayi ,gusa aba baganga baba bambaye imyenda ibarinda kuba bakandura.

Mu bitaro byo kwa muganga haba hari ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu buvuzi mu rwego rwo gufasha abaturage kwivuza neza.

Aho bakirira abarwayi cyangwa se abandi bantu bose bashaka serivisi z'ubuvuzi, ni ahantu hagirwa n'ibitaro ibyo aribyo byose.

Abaganga bambaye amataburiya y'umweru bari kwita ku murwayi urembye ,ndetse bamushyizemo serumu yo kumufasha kumwongerera amaraso.

Abaganga batandukanye bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'amapantaro y'imikara, bakaba bicaye kwa muganga mu nyubako imbere aho ku meza hateretse imiti.

Inyubako nini cyane, ifite ahantu hisanzuye, abarwayi bicara bategereje serivise z'ubuvuzi, iyi nyubako ikaba ari inyubako nini cyane.

Inyubako zo kwa muganga zigira ububiko bw' imiti muri ubwo bubiko bw'imiti haba hari amatajeri manini cyane arimo udusanduku tubitswemo imiti itandukanye.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga yubatswe mu buryo bw'igorofa rigezweho, ikaba ifite akayira kinjira karimo amapave ndetse hakaba hari akajaride karimo uturabo tukiri dutoya.

Mu by'ukuri dukwiye kwita ku buzima bwacu bwa buri munsi, mu nyubako yo kwa muganga hari ibigaragaza ko hari icyerekezo cyiza cyo kwita ku buzima.

Abaforomo batatu bambaye amataburiya y'ubururu, ndetse bateze udutambaro tw'umweru, bose bakaba bafatiye ifoto iruhande rw'ibitaro.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro bikuru byo ku rwego rwo hejuru, bikaba ari ibitaro bya kaminuza y'u Rwanda biherereye i Butare.

Inyubako yo kwa muganga irimo ubusitani burimo indabo nziza ndetse hakaba hari abantu batandukanye bari mu bitaro bakaba bari kugenda batembera.

Ibitaro bifite uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho bwo gukurikirana abarwayi ndetse abaganga bifashisha iryo koranabuhanga bakamenya imiti baha umurwayi.

Inyubako nziza yo kwa muganga yubakishijwe amatafari ahiye ikaba ifite uduhanda twiza dushashemo amapave tugiye tunyuranyuranamo ndetse tukaba tuzengurutswe n'utujaride utwo tujaride turimo uturabo twiza.

Inyubako nziza cyane ikaba ari inyubako yubatswe mu buryo bw'igorofa ifite ibirahure byiza cyane bibonerana, iyi nyubako ikaba itanga serivisi z'ubuvuzi zirimo imiti ndetse no gupima abarwayi.

Ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga biba biri kwa muganga byifashishwa mu gusuzuma abarwayi ndetse no kumenya imiti bakeneye guhabwa.

Ahangaha ni kwa muganga aho hari intebe nyinshi cyane zisa umukara. Imbere hari utumeza umuntu aba ariho turiho na mudasobwa. Hakaba hariho n'amafoto y'abantu ahongaho imbere ndetse hakaba hari n'amakaro asa igitaka.

Ikigo nderabuzima cya Rwerere, ni ikigo nderabuzima cyubatswe mu buryo busanzwe, kikaba gifite ubusitani bw'indabo nziza, cyubakishijwe amatafari y'umutuku ndetse y'imunyu, hakaba hasizwe n'irangi ry'umweru.

Inyubako yo kwa muganga ifite amarembo aho imodoka zinjirira ndetse bahagaze umusekerite wambaye inifomu uyobora abantu ndetse urinda umutekano w'ibintu.

Umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse akaba ari kwita ku mwana mutoya w'uruhinja aho umubyeyi amuteruye muganga nawe we akaba ari gusuzuma umwana.

Mu bitaro byo kwa muganga habamo icyumba abarwayi barembye baryamamo bityo rero kikaba gifite ibitanda byiza biriho amashuka meza y'amabara atandukanye.

Akana kari mu munzani ndetse karambuye amaboko, bisa nk'aho kagize ubwoba. Uyu munzani ukaba wifashishwa mu gupima abana ndetse urabona ko hari umujyanama w'ubuzima uri kureba ibiro by'umwana kugira ngo bamenye imikurire ye.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga. Ndetse y'igorofa ikaba ari inyubako rwose yubakishije amatafari, ndetse ikaba isize irangi y' umweru.

Inyubako yo kwa muganga isigaye ari inyubako yubakwa ndetse igashyirwamo ikoranabuhanga, kugira ngo umurwayi abashe gukurikiranwa kandi avurwe byihuse.

Inyubako yo kwa muganga ni inyubako yihariye kuko ibi ifite ibyumba bitandukanye aho igira nk'icyumba gishinzwe kujyanamo umurwayi urembye, bityo akabasha gupimwa indwara zitandukanye.

Umuganga ari mu biro byiza bishinzwe gusuzuma indwara zikomeye, aho hari ibyuma by'ikoranabuhanga ndetse n'igitanda umurwayi aryamaho.

Umuganga w'umugore ufite ikintu kimeze nk'umugozi yazingiye mu ijosi, ndetse kikaba kiri kuri kurereta ku maguru ye, kuko yicaye ku ntebe, yambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, ari kwita ku murwayi w'umwana.

Kwa muganga mu nyubako imbere mu cyumba hari intebe nziza, ameza ndetse n'akabati karimo imiti itandukanye.

Ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'abana bahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, rishishikariza abantu bose kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana babangavu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma abarwayi batandukanye kugira ngo bahabwe ubuvuzi.

inyubako zicururizwamo imiti itandukanye zizwi nka farumasi zikunze gukorana cyane n'ibigo nderabuzima ndetse n'ibitaro bisanzwe

Kwa muganga haba igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gusuzuma abarwayi, ndetse no kumenya indwara zose barwaye binyuze mu kubacisha muri icyo cyuma.

Igihe cyose ugeze kwa muganga, uzahasanga intebe zo kwicaraho, kugira ngo utegereze ko bakwakira hanyuma uhabwe ubuvuzi.

Umwana mutoya bamuzanye kwa muganga, nyina yicaye ku buriri ndetse umuganga ari kumwitaho, yaciye bugufi ari kumureba.

Inyubako yo kwa muganga yubatswe mu buryo bugezweho ndetse bufasha abarwayi bose n'abaganga kugira ngo serivisi z'ubuvuzi zigire ireme.

Mu bitaro byo kwa muganga hari igitanda cy'abarwayi ndetse iruhande rwabo hari imashini zitandukanye zirimo mudasobwa ndetse hari akabati kamanitsemo ibikoresho bya muganga.

Inyubako nziza cyane yo mu bwoko bw'igorofa igeretse kabiri y'ikigo nderabuzima cya nyarurenzi, n'inyubako ifite amarangi y'umuhondo ndetse nay'umweru ikabi ishakaje ibati ryiza cyane.

Umuganga ari kuvura agahinja yakaryamishije mu kintu giforomye nk'igitanda ndetse kari kumureba, nawe yambaye uturindantoki yafashe ukuboko k'uruhinja.

Icyapa kinini gitambitse kirekire ariko atari kirekire cyane cyandikeho amagambo agiye atandukanye, inyuma yacyo hari ikindi cyegetse ku nzu gifashe ku idirishya ndetse iryo dirishya ni iry'igipangu cy'inyubako yo kwa muganga.

Ihuriro ry'abaganga batandukanye bifotoreje iruhande rw'icyapa kiri ku nyubako y'ibitaro.

Umuganga yita ku murwayi urembye akamufasha mu buryo bwose bushoboka haba mu kumuganiriza ku kumuha imiti ndetse no kumubaza uko yiyumva.

Mu bitaro kwa muganga hari abarwayi benshi batandukanye, baryamye ku bitanda buri murwayi ku gitanda cye bigaragara ko ari abarwayi barembye.

Mu nyubako yo kwa muganga haba serivisi zitandukanye ndetse buri murwayi agenda ahura na muganga kugira ngo abashe kumufasha.

Inyubako yo kwa muganga; iba yubatswe neza ku buryo iyo umurwayi ageze kwa muganga, yinjira mu nyubako akicara ku ntebe nziza agategereza serivisi z'ubuvuzi.

Umusore uri mu nyubako y'imyidagaduro akaba ari gukora siporo zitandukanye mu rwego rwo gufasha umubiri we kugira ubudahangarwa.

Umukobwa ufite imisatsi myiza akaba ari muri siporo yambaye ipantaro y'umukara ndetse yazamuye amaboko hejuru arayafatanya ari mu myitozo ngororamubiri.

Umusore w'intarumikwa ari kumenaho amazi mu mutwe nyuma yo gukora siporo maze akagira umunaniro n'ubushyuhe, ni byizayiza gukoresha amazi wimara ubushyuhe igihe uvuye muri siporo.

Igihe umuntu amaze gukora siporo, agera, ashobora kunanirwa ndetse rimwe na rimwe agasa nk'utaye ubwenge, abaganga bakamufasha.

Ni byiza cyane ko ukora siporo ngororamubiri ariko igihe ugize ikibazo cy'imvune ugomba kugana kwa muganga bakaguha ubuvuzi bakagufasha kugorora igufa ryavunitse.

Igihe cyose ugiye kwa muganga uba wizeye ko uravurwa neza ndetse ugakira, niyo mpamvu kwa muganga haba ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvumbura ibibazo byose by'abarwayi.

Umuntu w'umugabo ndetse bigaragara ko amaze gukora siporo, ari kunywa amazi mu icupa ryiza cyane, yambaye agapira gaciye amaboko, ndetse mu by'ukuri ni umugabo ubona ko akuze, nubwo atari umusaza.

Ni umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho ahagaze amaboko yayafatiye ku mutwe we inyuma, akaba ari kugorora ibitugu bye yambaye n'isengeri isa ivu, hakurya hari inzu nyinshi cyane kandi nziza.

Umusore uri gukora siporo, akaba yicaye yarambuye ukuguru kumwe, ukundi guhinnye ndetse akaba yarambuye amaboko akayakoza kuri kwa kuguru kurambuye.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri wambaye agapira k'umuhondo ndetse akaba afite tatuwage ku kuboko iruhande rwe hari umugabo uri kumwereka uko bakora siporo.

Gukora siporo zitandukanye ni byiza, kuko bifasha umubiri w'umuntu kugira imbaraga ndetse no gukomera bityo bikamurinda indwara nyinshi.

Siporo rusange yahuje imbaga y'abaturage, barimo abagabo, abagore, urubyiruko, abasaza, ndetse n'abandi bantu bose.

Umugabo uri gukora siporo akaba yambaye agasengeri k'umukara ndetse akaba yamanuye amaboko ayanyuza inyuma akaba ari kugorora imitsi.

Burangakari ni ingobyi y'abarwayi ndetse iyi ngobyi ikunze kwifashishwa n'abaganga, igihe bakura umurwayi ahantu hamwe bamujyana ahandi.

Umusore wifashe mu ivi amaze gukora imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko yagize ikibazo cyo mu ivi ni byiza ko igihe ugize ikibazo cy'imvune ujya kwivuza kwa muganga.

Umuganga ufite ikintu cyifashishwa mu gukora siporo. Akaba agira inama abantu batandukanye gukoresha ibintu bitandukanye mu gukora siporo.

Igihe ukora siporo ni byiza ko wambara uturindantoki by'umwihariko ukatukwiza neza mu kiganza kugira ngo igihugu utaza gukomereka.

Kwa muganga haba ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bwa buri munsi abarwayi bagenda bakenera. Nkaho ushobora kugenda ukaryama ku gitanda maze ibyuma by'ikoranabuhanga bikagusuzuma bikamenya ikibazo ufite.

Ni byiza ko unywa amazi meza asukuye by'umwihariko yatunganyijwe n'inganda zibifitiye ububasha ndetse n'ubushobozi.

Umuganga ari gufasha umuntu gukora siporo zitandukanye ndetse akaba ari kugenda amwerekera uburyo azajya azikoramo.

Umuntu w'umuganga yambaye isaha, iyi saha irahenze. Ni isaha y'umweru, yambaye itaburiya y'umweru ndetse ari gufata mu ivi ry'umukobwa uwo mukobwa ubanza yavunitse.

Umugabo ufite ubwanwa wambaye ekuteri, wambaye udukweto dufunze ndetse n'agapira k'ubururu ufite indi myenda yazingiye mu ijosi, ari kunywa amazi meza nyuma yo gukora siporo.

Umusore wavunikiye mu myitozo ngororamubiri akaba ateruwe n'abakozi ba kuruwa ruje bagiye kumugeza ku bitaro kugira ngo abashe kuvurwa.

Umukobwa mwiza cyane ari gukora siporo zitandukanye aho agenda amanura amaboko yongera ayazamura mu kirere kugirango abone uko agororoka.

Umurwayi ufite ikibazo cy'ukuguru bigaragara ko yakomeretse yapfutswe na muganga maze ahabwa n'imiti ndetse ahabwa igipapuro kigaragaza uko azagenda agaruka kwa muganga kwipfugisha.

Hari imiti ifasha abantu bamaze gukora siporo bakagira umunaniro, irimo nka pomade ifasha kugabanya uburibwe ndetse n'umunaniro w'amagufa.

Kwa muganga baba bafite ibikoresho bitandukanye bifasha abarwayi, harimo intebe z'ubwoko butandukanye ibitanda abarwayi baryamishwaho, kugira ngo basuzumwe n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Siporo ni ingenzi cyane mu buzima kuko zigira umumaro ukomeye mu mubiri w'umuntu by'umwihariko siporo ngororamubiri, kuko zigabanya umuvuduko mutoya w'amaraso ndetse zikaba zagabanya siteresi n'ibindi byinshi.

Imbaga nyamwinshi y'abitabiriye imyitozo ngororamubiri, izwi nka siporo rusange, irimo abana, urubyiruko, ndetse n'abandi bakuze, bakaba bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru.

Umukobwa mwiza cyane wambaye agakabutura ari gukora siporo ndetse ari kuzamura akaguru yongera akamanura bityo bikamufasha kugororoka.

Ni byiza gukora siporo zitandukanye ariko ukazikora ugisha inama na muganga kugira ngo ukore siporo z'ingenzi ndetse zikenewe, kuko rimwe na rimwe hari igihe ukora siporo zikaba zakugiraho ingaruka bitewe n'izo ari zo.

Ni byiza kunywa amazi meza asukuye kubera ko biturinda indwara zitandukanye, aya mazi akaba ari amazi akunze kuboneka ahantu hose kuko inganda zibishinzwe ziyakwirakwiza.

Umuganga ari gufasha umuntu bisa nkaho ari umukobwa wavunitse ukuguru, bakaba bamuhaye icyuma kimufasha kugorora uko kuguru.

Umugore wambaye agashati k'ubururu ndetse n'udupfukantoki tw'ubururu ari kwambara agapfukamunwa, imbere ye hari mudasobwa ifunguye ndetse hari n'ibitabo imbere ye bigaragara ko agiye gutangira akazi ke.

Abaganga bambaye amataburiya y'umweru harimo umuntu umwe wambaye ikote ry'umukara, bose bakaba bari kureba ku ikoranabuhanga kugira ngo basuzume ikibazo cy'umurwayi.

Igikapu kirimo imiti itandukanye ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa na muganga, birimo imakasi, uturindantoki ndetse n'inshinge.

Abasore bane bambaye amakabutura ndetse n'udupira tw'amaboko bari gukora imyitozo ngororamubiri, aho bari kwiruka ibirometero byinshi kugira ngo bafashe umubiri wabo.

Umusore wicaye ku ntebe nziza akaba ari kunywa amazi imbere ye hateretse igikapu, yambaye agakabutura k'umukara n'isengeri y'umukara, iruhande hirya rw'intebe hari umukobwa uzamuye amaboko na we imbere ye hari igikapu ari gukora siporo.

Igihe ukora imyitozo ngororamubiri ni byiza cyane gukora imyitozo itandukanye kugira ngo ufashe ibice byose by'umubiri wawe gukora neza.

Ni umuntu wari uri gukora imyitozo ngororamubiri none aravunitse agiye kwifuza kwa muganga, abaganga bari kumwitaho, aho bari kumuzirikiraho bande ku kuguru kugira ngo arusheho kumererwa neza ndetse akomeze akore iyo myitozo ye ngororamubiri.

Umugabo uri gukora siporo zitandukanye, aho akina umupira ndetse akanirukanka kugira ngo afashe umubiri we kugira ubudahangarwa.

Muganga ari gufasha umuntu usanzwe gukora siporo, akamwereka ibyo azajya aterura n'ibyo azajya adaterura kubera ko yamusuzumye akamenya uko ubuzima bwe buhagaze.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri mu nyubako y'imyidagaduro, akaba arigukoresha amaguru ye, aterura ibiro bitandukanye.

Gukora imyitozo ngororamubiri nko kwiruka ni ibintu byiza cyane bifasha umuntu uwo ariwe wese kugira ubuzima bwiza kuko ni siporo itaruhije.

Uruhererekane rw'ibikoresho bya muganga yifashisha igihe yita ku barwayi bahuye n'ikibazo cy'imvune cyangwa umunaniro igihe bakoraga siporo.

Umusore wifashe mu mavi umaze gukora siporo bigaragara ko ananiwe nibiza ko dukora siporo kugirango tubashe gukoresha umubiri wacu.

Abantu bambaye amajiri y'umweru ariho umusaraba bakaba bahagaze ku murongo umwe, imbere y'abo hari undi wambaye ijiri y'umutuku ndetse bikaba bigaragara ko ari kwita ku murwayi bisa nk'aho bari kumuha ubutabazi bw'ibanze.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri wifashe mu kirenge ndetse wicaye arambije bigaragara ko ari kunanura imitsi.

Muganga yita ku muntu urimo gukora siporo akamufasha mu buryo butandukanye, harimo nko kumwambika ibintu bituma adakomereka.

Icupa ririmo amazi akaba ari amazi meza cyane bigaragara ko ari ay'urubogobogo ndetse iri cupa rikaba ari icupa ripfundikiye neza, aya mazi niyo twagakwiye kunywa kugira ngo turinde ubuzima bwacu.

Amazi meza ari mu gacupa apfundikiye neza yatunganyijwe n'uruganda rubifitiye uburenganzira ni amazi umuntu wese yanywa akagira ubuzima bwiza ndetse bikamurinda indwara zitandukanye.

Igihe umaze gukora imyitozo ngororamubiri itandukanye irimo nko guterura ibyuma ,ni byiza kurya imbuto ndetse n'imboga, kugira ngo ufashe umubiri wawe kugarura ubuyanja, aha warya nka pome ndetse n'izindi mbuto.

Igihe umaze gukora siporo ukumva urananiwe ni byiza ko ujya kwa muganga hanyuma bakagukorera ubuvuzi butandukanye bushingiye ku munaniro wawe.

Umuntu wakomeretse akajya kwa muganga baramuvura ndetse bakamupfuka kugira ngo amaraso adakomeza kuva bikaba byamugiraho ingaruka zikomeye.

Umukobwa mwiza wambaye ikuteri mu matwi, ndetse akaba yambaye isaha nziza y'umukara, yaziritse telefone ku kuboko, ari gukora siporo zitandukanye, agorora umubiri we.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo ibyuma byo guterura bifite ibiro bitandukanye byifashishwa muri siporo ngororamubiri cyangwa se mu myitozo ngororamubiri.

Uruhurirane rw'ibikoresho bitandukanye byifashishwa na muganga birimo: imiti ,ibikoresho by'isuku ndetse n'ibindi bitandukanye bibitse mu buryo bwiza.

Igihe ukora siporo ni byiza kumenya neza uko umutima wawe utera ndetse ukirinda gukora siporo zivunanye cyane.

Rwose muganga afasha abarwayi mu buryo butandukanye, ashobora kubafasha gukora siporo ndetse n'ubundi buryo bwinshi.

Nyuma yo gukora siporo zitandukanye ni byiza kunywa amazi meza ndetse atunganyijwe neza n'inganda zabugenewe kugira ngo ufashe umubiri wawe kongera kugarura ubuyanja.

wUmukobwa mwiza uri gukora siporo, aho yicaye akarambura ukuguru kumwe, ukundi akaguhina maze akunama akamanura amaboko ye agafata ku mano, mu rwego rwo kugorora ingingo.

Ni byiza kunywa amazi meza ndetse asukuye kuko amazi ni ingenzi mu buzima, ndetse afasha umubiri w'umuntu mu bintu bitandukanye twavuga nko mu igogorwa, ndetse no mu iyungururwa ry'amaraso riterwa n'impyiko.

Umukobwa mwiza cyane usa neza yambaye agasengeri k'ikijuju ndetse afite umwenda ku rutugu rwe ari kunywa amazi meza.

Umuganga ari gukoresha siporo umuntu aho ari kumugorora amaguru ari kugenda amukandakanda amaguru ye agenda ayahina yongera ayahinura, bityo bigafasha uyu muntu kugororoka mu ngingo.

kwa muganga haba ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu kuvura abarwayi indwara zitandukanye.

Igihe cyose umaze gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza kunywa amazi meza kugira ngo afashe umubiri wawe kongera kugarura imbaraga ndetse afashe impyiko kuyungurura amaraso neza.

Ibikoresho bitandukanye bya muganga birimo impakasi, uturindantoki, agapfukamunwa ndetse n'udukarito turimo imiti itandukanye.

Umukobwa ufite imisatsi ifungiye inyuma, akaba yambaye imyenda isa ari gukora siporo zitandukanye arambura imitsi ye.

Umuntu w'umusore wambaye agapira gaciye amaboko, ari kunywa amazi ndetse bigaragara ko amaze gukora siporo. Ni byiza ndetse ni ingenzi cyane kunywa amazi igihe tumaze gukoresha umubiri wacu ibintu bivunanye.

Umugabo ukomeye ufite ukuboko kwa kuboko kubyibushye rwose, bigaragara ko yateruye, akaba ari muri siporo aho ari kwirukanka ndetse akaba ari mu nzu y'imyidagaduro.

Abantu babiri bateranye imigongo bagaragara ibice byo hejuru umutwe ndetse n'undi igihimba, n'ukuboko kuzamuye hejuru kuri kunywa amazi ari mu icupa ryiza umwe ni umugore undi ni umugabo.

Igihe umaze gukora siporo ni ngombwa ko unywa amazi meza ukarya imbuto nk'amacunga ndetse n'izindi zitandukanye.

Umubyeyi ni byiza ko wihita ku mwana wawe mu buryo bwose bushoboka. Ukamuganiriza ndetse ugakina nawe kugira ngo agire ubuzima bwiza buzira umuze.

Akamenyetso k'umusaraba gatukura kagaragaza ko hakenewe ubutabazi bw'ibanze ndetse bwihuse umurwayi urembye ndetse ukomerewe.

umusore wahambiriye telefone ku kuboko akaba yambaye kuteri, akaba yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto zitukura zifunze neza. Uyu nguyu ari gukora siporo kandi iruhande rwe hateretse amazi meza ari mu gacupa. Ni byiza kunywa amazi meza uri muri siporo.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri aho afata amaboko akayanyuza inyuma agakora mu mugongo akagenda agororoka bitandukanye.

Igihe ukora siporo ngororamubiri, by'umwihariko gukina umupira w'amaguru, rimwe na rimwe, ushobora kugira ikibazo gitunguranye cy'imitsi, aho bamwe bakunze kuvuga ngo, imbwa ziramufashe.

Kwa muganga haba ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye byifashishwa mu gusuzuma abarwayi bareba indwara bafite ndetse n'ibindi bibazo by'ubuzima.

Muganga ari gukanda ivi ry'umurwayi ndetse uyu murwayi bigaragara ko yavunikiye muri siporo, igihe ugiriye imvune muri siporo ni byizayiza kugana muganga akagufasha.

Mubyeyi ni byiza ko ujyana umwana wawe kwa muganga igihe afite ibibazo byo mu kanwa kubera ko muganga akoresha icyuma cy'ikoranabuhanga akareba mu kanwa k'umwana akamenya ikibazo afite.

Igihe cyose umaze gukora imyitozo ngororamubiri kuko uba watakaje imbaraga ni byiza ko urya ibiryo bitandukanye birimo imbuto nk'imineke, amacunga ndetse n'inanasi.

Umusore wambaye agapira k'ubururu, ufite ekuteri wazishyize mu ijosi, ari kunywa amazi nyuma yo gukora siporo, ndetse bigaragara ko yari akeneye gufasha umubiri we kongera kugarura ubuyanja.

Ububiko bw'imiti igiye itandukanye, bukaba bubitswe neza cyane aho buri ahantu mu nyubako yo kwa muganga harimo imiti igiye itandukanye.

Agakoresho kifashishwa kwa muganga aho kari mu mabara y'umweru gafite amapine ane asa umukara ndetse hejuru aho bafata naho harimo umukondo usa umukara.

Umukobwa ari kunywa amazi nyuma yo gukora siporo zitandukanye, ni byiza ko buri muntu wese anywa amazi nyuma yo gukora siporo kuko bifasha umubiri we.

Nyuma yo gukora siporo zitandukanye, ni byiza kurya ibiryo birimo imbuto zitandukanye; nk'umuneke, pome, amatunda, amacunga, ndetse n'ibindi.

Ingobyi y'abarwayi izwi nka burankari n'ingobyi yifashishwa cyane cyane n'abantu bazwi nk'abakozi ba croix rouge, igihe bagiye gukora ubutabazi ku murwayi ugize ikibazo gitunguranye.

Umukobwa mwiza cyane akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri ndetse yambaye utwenda twiza turimo ipantaro y'umukara imwegereye ndetse n'agasengeri k'umukara akaba afite umusatsi mwiza usutse.

Akagera n'ikigo gitanga imiti itandukanye ndetse iyo miti ikaba ikomoka ku bimera ndetse ikunzwe kwitwa imiti ya kinyarwanda cyangwa ya gakondo.

Imiti ya gakondo itandukanye ipfunyitse mu macupa mu mikombe ndetse no mu dukarito, ikaba ari imiti yatunganyijwe neza rwose ndetse yifashishwa n'abaganga bakinyarwanda.

Ibimera bitandukanye nk'umuravumba ndetse n'ibindi bivamo imiti itandukanye nubwo benshi bakunze kuyita ngo ni imiti ya gakondo ariko iravura kandi ivura indwara zigakira.

Icupa ry'umweru ripfundikiye neza n'umufuniko w'umweru, ririmo umuti ukomoka ku bimera, ukaba ari umuti wa gakondo.

Ibimera bitandukanye bivamo imiti ya gakondo bikaba byifashishwa mu buvuzi butandukanye bitewe n'indwara zimwe na zimwe.

Amacupa atandukanye atondetse harimo n'ubuvido butoya bupfundikiye neza, bubitswemo imiti ikomoka ku bimera ikaba ari imiti ya gakondo yifashishwa n'abavuzi ba kinyarwanda.

Amacupa menshi arimo amaremare, amagufi ndetse n'andi afite imikondo, akaba arimo imiti itandukanye ya gakondo.

Umuti w'ifu wakomotse ku bimera byumishijwe ndetse bigasebwa hanyuma bikavamo uyu muti wifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Imiti gakondo yo mu Rwanda imyinshi rwose ikomoka ku bimera ndetse ibi bimera ntaho bihingwa ahubwo biba mu mashyamba ndetse no mu bihuru.

Icupa ripfunyitsemo umuti wa gakondo, rikaba ripfundikiye neza cyane. Ripfundikijwe umufuniko w'ubururu.

Ibimera bitandukanye bivamo imiti ya gakondo bikwiye kwitabwaho ndetse bigahingwa byihariye kuko bigirara uruhare mu buvuzi rusange bw'abantu benshi batandukanye.

Ibimera bigiye bitandukanye byo mu Rwanda byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, gusa ntibikunze kuboneka aho ariho hose kuko usanga biba mu bihuru, ariko bikwiye kubungwabungwa ku buryo igihe abaganga babikeneye babibona.

Amacupa atandukanye arimo imiti ya gakondo ndetse inyuma handitseho uburyo ikoreshwa, hari ifoto y'umuntu wifashe mu mugongo bigaragaza y'uko uyu muti uvura indwara z'umugongo.

Ibimera bitandukanye biboneka mu mashyamba, mu bihuru ndetse no mu bishanga bikunze kugira uruhare mu buvuzi bwa gakondo.

Ikimera kitwa umusave ni ikimera gikunze kwifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho kiboneka ahantu hose mu Rwanda buri muntu wese ashobora kugikoresha.

Ibimera bitandukanye ndetse hakaba hari imbuto, izo mbuto n'indimu ndetse hakaba hari n'icyatsi cy'umucaca iki kimera kirandaranda hasi.

Ibinini bipfunyitse mu gashashi kabugenewe ndetse akaba ari ibinini bigaragara ko bikomoka ku muti uva mu bimera ndetse bikaba bikozwe mu buryo bwa gakondo.

Imiti ya gakondo ni imiti ivura indwara zitandukanye harimo nko kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro ndetse n'ibindi bikomeye cyane.

Mu by'ukuri hari imiti myinshi cyane ya gakondo yifashishwa n'abaganga bavura indwara zitandukanye ariko by'umwihariko bakaba bakunze gukoresha n'ubuki nk'umuti ukomeye.

Umuravumba ni ikimera kidakunze kubura ahantu aho ariho hose, kuko ni ikimera kiboneka mu buryo bworoshye ndetse kikaba kigira uruhare mu kuvura indwara zitandukanye.

Umuravumba ni ikimera kiboneka ahantu hose mu rwanda ku buryo usanga hafi mirongo ikenda ku ijana y'abanyarwanda bose bagikoresha.

Amajerekani manini apfundikiye neza, harimo iy'umuhondo n'iy'umutuku ashushanyijeho ikimera, bigaragaza ko abitswemo imiti ikomoka ku bimera, ikaba ari imiti ya gakondo.

Amacupa atandukanye abitswemo imiti ya gakondo ikaba ari imiti yifashishwa mu buvuzi bwa kinyarwanda.

Amacupa arimo imiti yakomotse ku bimera, ndetse iyi miti ikaba izwi nk'imiti ya gakondo, iyi miti izwiho kuvura indwara zitandukanye, ndetse kuri ubu ni imiti yemewe na leta.

Abanyafurika bafite uburyo bwihariye bwo kuvura indwara zitandukanye bakoresheje imiti ya gakondo, mu by'ukuri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri habaye umunsi mukuru w'abavuzi ba gakondo.

Icupa ry'umweru ryanditseho amagambo agaragaza ikigo uyu muti wakorewemo, ndetse rikaba ripfundikijwe umupfundikizo w' umweru, hakaba hariho n'ibishushanyo by'ibimera uyu muti ukomokamo.

Icupa ry'umweru ripfundikiye neza ripfundikije umufuniko w'umweru, ryanditseho amagambo agaragaza ko ripfunyitsemo umuti wa gakondo abenshi bita umuti wa kinyarwanda.

Amacupa atandukanye; amagufi, maremare, ay'ibyuma, aya palasitike apfundikije imifuniko y'umweru ndetse n'andi atandukanye arimo imiti gakondo.

Imiti yongera ubudahangarwa bw'umubiri, ipfunyitse mu ijerekani nziza cyane y'umweruru ndetse hakaba iruhande rwayo hateretse agacupa gatoya gapfundikijwe umufuniko w'umweru.

Icupa ryanditseho amagambo y'icyongereza ndetse rikaba ririmo umuti ukomoka ku bimera, mu byukuri akaba ari umuti wa gakondo.

Ibiti bitandukanye ndetse n'ibimera bivamo imiti ya gakondo gusa iyo miti iratunganywa ikabikwa neza mu bikoresho byabugenewe.

Amacupa atondetse ku murongo, ndetse yanditseho amagambo inyuma, akaba apfundikiye neza, aya macupa arimo imiti ya gakondo.

Umuravumba n'ikimera kiboneka ahantu henshi m'u Rwanda ndetse buri muntu wese arakizi ndetse nabambuwa niko bimeze, ibi bimera ushobora kubyifashisha ukabishyira mu mazi hanyuma ukayanywa akaba yagufasha.

Imiti gakondo ipfunyitse mu bikarito, ibi bikarito inyuma handitseho amagambo agaragaza uko iyi miti ikoreshwa.

Umuti upfunyitse mu icupa rirerire, uyu akaba ari umuti wa gakondo wifashishwa n'abaganga ba kinyarwanda.

Utuvido tunini turinganiye twanditseho amagambo ndetse dushushanyijeho ikimera ,twegeranye n'amacupa nayo meza cyane y'umweru, dupfundikijwe imifuniko y'umweru.

Amacupa menshi cyane atandukanye: amaremare, amagufi, ay'ibyuma, aya palasitike, yose akaba abitswemo imiti ya gakondo, yatunganyijwe n'abaganga bavura indwara zitandukanye.

Icupa ry'umweru ripfundikije umuvuniko w'umweru rikaba ryanditseho amagambo inyuma agaragaza uko uwo muti ukoreshwa, ndetse uyu muti ni umuti wa kinyarwanda.

Imiti ifunze mu buryo bwiza ikaba yaratunganyijwe ikomotse ku bimera ndetse iyi miti nubwo yitwa iya gakondo ivura indwara zitandukanye nka amibe.

Amacupa abiri y'umuhondo, apfundikijwe imifuniko myiza cyane y'umukara, inyuma hashushanyijeho ikimera, bigaragara ko abitse imiti ikomoka ku bimera.

Mu bihuru, mu mashyamba agiye atandukanye niho imiti myinshi ya gakondo ikunze gusoromwa, ikifashishwa muri ubu buvuzi bwa gakondo.

Imiti itandukanye myinshi cyane iri mu ducupa iyindi iteretse ku mbehe ndetse n'indabo zitandukanye zivamo imiti ya gakondo.

Abajyanama b'ubuzima bose bahuriye hamwe, aho bagiye kwita ku bidukikije bitandukanye, birimo ibimera bikunze kugira uruhare mu buvuzi bwa gitondo.

Imiti gakondo iri mu ducuupa ndetse yateguwe neza hakaba hariho n'umuganga wambaye ikote ry'ubururu usobanura uko iyo miti ikoreshwa.

Imiti gakondo ikomoka ku bimera yifashishwa mu buzima butandukanye bwo kwirinda indwara nk'imivuduko y'amaraso, ndetse na za diyabete, amibe n'izindi ndwara zitandukanye.

Igikakarubamba ni ikimera cyifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye bwa gakondo aho kivura indwara nyinshi cyane ndetse bamwe bavuga yuko ari ikimera gifite ubudahangarwa.

Umutobe w'amacunga ndetse n'umutobe wa tangawizi, zifashishwa mu kuvura indwara y'inkorora.

Isekuru ni igikoresho cyiza cyane cyifashishwa mu gutunganya imiti ikomoka ku bimera, yaba imizi cyangwa se amababi y'ibimera.

Imbehe nyinshi cyane zisa umukara, aho ziriho utuntu twinshi tugiye dutandukanye, ushobora kutubona ukagira ngo ni ibiryo. Reka da! Si ko biri ahubwo iyi ni imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Imiti gakondo imyinshi ku kigero cya mirongo icyenda n'umunani ku ijana, ikomoka ku bimera ndetse ikunze kuba mu bihuru bitandukanye bigenda biboneka hirya no hino.

Bambuba n'ikimera kiboneka ahantu henshi m'u Rwanda, iki kimera kikaba ari ikimera kizwiho gukoreshwa mu buvuzi bwa gakondo, kikaba kivura indwara zitandukanye nk'umutwe ndetse n'isereri.

Uruhurirane rw'imiti itandukanye ya gakondo yatunganyijwe ikabikwa neza mu macupa ndetse no mu bikarito byabugenewe.

Ikimera kizwi nk'inyarabarasanya n'ikimera cyifitemo ubushobozi bukomeye cyane, kuko igihe ukomeretse ugafata amababi yacyo ukayavuguta ukayashyira ku gisebe icyo gisebe kiromoka.

Umuti wabugenewe wa gakondo wakozwe n'abantu, ukaba ari umuti wifashishwa mu koza mu mutwe ndetse ukaba uvura ibihushi n'imvuvu.

Imiti ya gakondo ikunze kuva mu bimera bitandukanye nk'igikakarubamba, ibibabi by'indimu, capitine, bambuba , umuravumba n'ibindi byinshi cyane.

Uruhererekane rw'ibimera bitandukanye by'ubwoko bwose bivamo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo kandi iyi miti iravura rwose kandi irakiza.

Umuganga uri gupfunyika imiti mu bikarito, ndetse iyindi akayishyira mu macupa yabugenewe, apfundikiwe neza kugira ngo ayirinde kwangirika.

Imiti yatunganyijwe ikabikwa neza mu bikoresho byabugenewe, ikaba ari imiti yakomotse kuri gakondo.

Umuti ukomoka ku kimera, ukaba ari umuti ukomeye cyane, uvura indwara zirimo n'indwara zishobora kuba zitandura.

Amacupa atandukanye, arimo imiti ya gakondo, apfundikiye neza cyane, kugira ngo iyo miti itangirika, akaba yose ari amacupa meza yatunganijwe.

Amacupa meza cyane arambitse aryamishijwe hakaba handitseho ibintu by'ibipapuro byanditswe mu magambo agiye atandukanye, ay'umweru n'ay'umukara.

Bimwe mu bintu ushobora kwifashisha nawe ukikorera umuti mu buryo bworoshye, harimo nko gufata amagi, tangawizi, ndetse n'umuravumba, hanyuma ukabivangavanga, ukaba wakivura mu buryo bworoshye.

Umusave akaba ari ikimera gikunze kwifashishwa cyane mu buvuzi butandukanye, ndetse abanyarwanda benshi barabizi ko kigira uruhare mu kuvura indwara.

Imiti ya gakondo, hafi ya yose ku kigero cya mirongo icyenda na gatanu ku ijana, ikomoka ku bimera niyo mpamvu dusabwa kwita ku bidukikije kugira ngo dusigasire ibi bimera.

Ibimera bitandukanye bivamo imiti ya kinyarwanda benshi bakunze kwita imiti ya gakondo, n'ibimera bikunze kuboneka mu bihuru no mu bishanga.

Icupa ry'umweru ripfundikije umufuniko w'umweru ryanditseho amagambo agaragaza umuti urimo ndetse n'ibyo ukozemo bigaragara ko ari umuti wa gakondo.

Abavuzi ba gakondo ni abavuzi b'abahanga ndetse bazi gushaka imiti ku buryo rimwe na rimwe bakubwira ko hari imiti bakuye mu nyanja.

Imiti ikomoka ku bimera bitandukanye irasekurwa ndetse iyindi igasebwa ku rusyo, hanyuma igatunganywa ikazafasha mu buvuzi gakondo.

Tungurusumu ni igihingwa kiza cyane ndetse ni ikiribwa kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, kuko ni ikiribwa gifite ubushobozi buhambaye.

Umuravumba, umuravumba ni ikimera cyifashishwa mu buvuzi butandukanye ndetse usanga hari imiti yatunganijwe igashyirwa mu macupa yabugenewe ikaba iriho igipapuro kigaragaza ko uwo muti ukomoka ku muravumba.

Ibimera bitandukanye bikunze kugaragara mu bihuru, mu mashyamba, no mu ma parike, ndetse no mu mibande, no mu bishanga, ni ibimera bitanga imiti itandukanye ya gakondo.

Icupa ririmo umuti upfunyitsemo neza, bigaragara ko ari umuti ukomoka ku bimera mbese umuti wa kinyarwanda.

Imiti itandukanye iva mu kimera cy'umuravumba ifasha cyane mu buvuzi bwa gakondo ariko ni imiti myiza kuko buri muntu wese ashobora kuyikoresha.

Umuti ukomoka ku bimera wa gakondo akaba ari umuti mwiza cyane ufasha abarwayi mu buryo butandukanye ukabarinda indwara.

Amacupa ateretse ku meza harimo imiti itandukanye ya gakondo, ndetse aya macupa inyuma hariho ibipapuro byanditseho amagambo agaragaza imiti n'uburyo ikoreshwa.